Umuhinzi wambaye imyenda yabugenewe uri gutera umuti amashu, kugira ngo akure neza maze azatange umusaruro ushimishije, maze bawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kukwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bayajyane mu rugo bajye barayateka maze bayarye.

Ifumbire bifashisha bari gushyira ku myaka maze ikamera neza cyane igatanga umusaruro ushimishije, bakabona inyungu ihagije maze bakihaza mu biribwa, bakabona n'amafaranga yo gukemuza ibibazo bitandukanye.

Ifumbire bifashisha bari kongera mu myaka, kugira ngo yere neza cyane, itange umusaruro ushimishije maze bawujyane ku isoko, babone amafaranga menshi cyane, bayakoreshe bari gukemuza ibibazo bitandukanye babashe kwiteza imbere.

Ifumbire bifashisha bari gushyira ku myaka，maze igatanga umusaruro ushimishije，bakawujyana ku isoko kuwugurisha， bakabona amafaranga nko kwifashisha mu buhinzi bwabo， no gukemura ibindi bibazo bitandukanye.

Ifumbire bifashisha bari guhinga imyaka, kugira ngo izere neza cyane itange umusaruro ushimishije, bityo babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no mu buhinzi, bagire ubuzima bwiza, babeho neza cyane.

Ifumbire bifashisha bari kuyishira ku myaka kugira ngo yere neza cyane itange umusaruro ushimishije, maze bazabone amafaranga ahagije yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, n'iterambere ryabo.

Ifumbire abantu bashyira mu mirima bari guhinga imyaka yabo kugira ngo yere neza cyane, babone umusaruro ushimishije, maze bawujyane ku isoko babone amafaranga, bayakemuze ibindi bibazo bafite. Ibiti bitanga umwuka wo guhumeka.

Ifumbire bongera mu myaka kugira ngo imere neza cyane, itange umusaruro ushimishije maze bazawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwifashisha, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ifumbire bifashisha bari guhinga imyaka kugira ngo izere neza cyane, itange umusaruro ushimishije, bityo babone inyungu ihagije yo kubafasha mu buhinzi bwabo no gukemuza ibindi bibazo bafite.

Amafi yahinzwe neza cyane akitabwaho ku gihe, akagaburirwa neza, agatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka, maze bakayarya.

Amafi ahinzwe neza cyane akitabwaho neza akagaburirwa ku gihe, maze agatanga umusaruro ushimishije bakagujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye izindi bakazijyana mu rugo bakajya baraziteka maze bakazirya.

Ikiyaga bororeramo amafi kugira ngo atange umusaruro ushimishije maze bazawuzane ku isoko, babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, izindi bazijyane mu rugo, bage baziteka maze bazirye, bagire ubuzima bwiza.

Isupu imeze neza cyane iryoshye irimo: inyanya, inkoko, agasereri ,hejuru ku ruhande hari n'umugati wo gufatisha ibiryo biryoshye cyane.

Isambaza zororotse neza cyane zigatanga umusaruro ushimishije, bakazijyana ku isoko kuzigurisha maze bakabona amafaranga ashimishije, bakayakemuza ibindi bibazo, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Amafi borora agatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo bafite. Ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka maze bakayarya.

Amafi ameze neza cyane yashyizwe muri barafu, kugira ngo adapfa maze bakagajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bitandukanye, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayateka maze bakayarya.

Amafi yahinzwe neza cyane, akitabwaho, akagaburirwa ku gihe, kugira ngo atange umusaruro ushimishije maze bawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere rya bo, no mu bworozi bwa bo.

Amafi yorowe neza cyane akitabwaho maze agatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, andi bakayajyana mu rugo bakajya bayateka maze bakayarya bikarinda abana igwingira.

Amafi yahinzwe akitabwaho neza, akagaburirwa ku gihe kugira ngo atange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ayandi bayajyane mu rugo bajye bayateka maze bayarye.

Ubworozi bw'amafi bwa kijyambere bugezweho, amafi yitaweho neza cyane agatanga umusaruro ushimishije cyane bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye ayandi bakayajyana muri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuziteka maze bakazirya.

Ikiyaga bororeramo amafi, maze akitabwaho kugira ngo azatange umusaruro ushimishije, maze bawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, nko kwiteza imbere, ayandi bayajyane mu rugo bajye barayarya, ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka maze bakamererwa neza.

Amafi yahinzwe neza cyane atanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha. Andi bakayajyana mu rugo bakajya kuyateka maze bakayarya bishimye banezerewe cyane.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho bigatanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko, kugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, abandi bakajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Amateke, isombe, ibisheke, ibidodoki, ibitoki byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bawujyane mu isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye. Ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Amashaza yahinzwe neza, ari hafi gutanga umusaruro bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayarya, ibigori byahinzwe neza bitanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabirya.

Ibishyimbo byahinzwe neza cyane, biri hafi gutanga umusaruro. Ibidodoki, ibitoki maze bakabijyana ku isoko kubigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha andi bakayajyana muri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakaja babiteka maze bakabirya.

Karoti zahinzwe neza cyane ku gihe, zigakorerwa, zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo, izindi bazijyane mu rugo bajye baraziteka, maze bazirye.

Amajeri ahinzwe neza ku gihe akitabwaho neza ari hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakayajyana ku isoko kuyagurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana mu rugo bakajya barayateka maze bakayarya.

Karoti zahinzwe neza zikitabwaho ku gihe, ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakazijyana ku isoko kuzigurisha bakabona amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Ibiti bihinze neza cyane, bikorerwa ku gihe kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, maze babijyane ku isoko kubigurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere, andi bayajyane kuyahahisha, ibindi babijyane maze bajye barabicana.

Ibirayi bimeze neza cyane byitaweho bigakorerwa ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije maze bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bafite, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibirayi bimeze neza cyane byitabwaho n'abahinzi neza cyane, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya babibiteka maze bakabirya.

Ibigori byitaweho neza cyane, bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi abakayajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Karoti zitaweho neza cyane ku gihe， ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije， bakazijyana ku isoko，kuzigurisha bakabona amafaranga， bakayifashisha mu iterambere，izindi bakazijyana mu rugo， bakajya baraziteka，maze bakazirya.

Ibitoki n'amateke, byahinzwe neza cyane bikitabwaho neza, bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyanana ku isoko, kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya barabiteka maze bakabijya.

Urutoki ruri hafi gutanga umusaruro, maze bakabijyana ku isoko kubigurisha , bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi. Ikindi bakakijyana mu rugo bakajya baragiteka maze bakakijya bakamererwa neza cyane.

Amashaza, amateke, ibirayi byahinzwe neza cyane, bikitabwaho ku gihe kugira ngo bitange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha . Ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibigori byitaweho neza cyane bikera bigasarurwa bakabijyana ku isoko ku bicuruza, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya bakagubwa neza.

Ibitoki, ibidodoki, ibipapayi, amatunda, byahinzwe neza bikitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabirya.

Urutoki rwahinzwe neza cyane， rugakorerwa ku gihe，ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije， bakabijyana ku isoko kubigurisha，bakabona amafaranga yo kwifashisha， ibindi bakabijyana mu rugo，bakajya barabiteka maze bakabirya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane, bigakorerwa ku gihe. Biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Ibigori byahinzwe neza cyane ku gihe bikitabwaho bigatanga umusaruro ushimishije , bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Gaperi zitaweho neza cyane, zigakorerwa ku gihe ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakazijyana ku isoko kuzigurisha bakabona amafaranga yo gukemura ibibazo bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Ibi bigori byahinzwe neza byitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Amashaza yahinzwe neza cyane ku gihe akitabwaho, kugira ngo atange umusaruro ushimishije bawujyane ku isoko kugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bayajyane mu rugo bajye bayateka maze bayarye.

Ibihaza byahinzwe neza cyane ku gihe bikitabwaho kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, babijyane ku isoko kubigurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka maze babirye.

Ibirayi byahinzwe neza ku gihe, bikitabwaho neza kugira ngo bitange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka maze babirye.

Ibitoki byitaweho neza cyane bigakorerwa n'abahinzi ku gihe, kugira ngo bitange umusaruro mwiza ushimishije, maze bawujyane ku isoko kugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibitoki byitaweho neza cyane, bigakorerwa neza biri hafi gutanga umusaruro, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, ibindi bakabijyana no mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya. Ibiti bitanga umwuka mwiza abantu bahumeka.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Urutoki rwahinzwe neza cyane rukitabwaho, ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije. Bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka, maze bakabirya.

Ibigori byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga, Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya. Ibitoki biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakajya babijyana ku isoko ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya kubiteka maze bakabirya.

Ibigori byeze neza cyane, bakabijyana mu buhunikiro kugira ngo bitangirika, maze bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, ayandi bakayajyana muri banki. Maze ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibijumba byahinzwe neza ku gihe, bikitabwaho neza bigata umusaruro ushimishije ,bakabijyana ku isoko kubigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, no mu buhinzi ,ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabijya.

Inyanya zahinzwe neza cyane, zigakorerwa ku gihe, ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo, bakajya baraziteka, maze bakazirya.

Ibigori byahinzwe neza bikitabwaho neza cyane, bikuhirwa kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwiteza imbere n'ubuhinzi bwabo, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibijumba byeze neza cyane bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwucuruza kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, andi bayajyane muri banki kwiteza imbere, ibindi babijyane mu rugo baje barabiteka maze babirye.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bintu bitandukanye. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibitunguru byahinzwe ku gihe bikitabwaho neza, bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye. Ayandi bakayajyana mu kwagura ubuhinzi bwabo, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakabipakira mu mifuka kugira ngo babijyane kubigurisha, babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo bitandukanye no mu iterambere ryabo, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibigori byitaweho neza cyane, bigakorerwa ku gihe biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawugujyana ku isoko kuwu kugurisha, maze bakabona amafaranga yo kukwifashisha mu bindi bitandukanye, bakayajyana kuri banki, kwiteza imbere. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Amatunda ahinzwe neza cyane, akitabwaho ku gihe agatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayarya.

Imyumbati yahinzwe neza cyane, ikitabwaho ku gihe itanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, iyindi bakayijyana mu rugo, bakajya bayiteka maze bakayirya.

Ibigori byitaweho neza cyane， bakorera ku gihe， biri hafi gutanga umusaruro ushimishije，maze bakawujyana ku isoko kuwucuruza， maze bakabona amafaranga ashimishije， bakayakemuza ibibazo bindi，ayandi bakayajyana muri banki， ibindi bakabijyana mu rugo，bakajya barabiteka， maze bakabirya.

Oranje zahinzwe neza cyane zikitabwaho zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakajyana kuri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya bazirya maze bakagira ubuzima bwiza.

Ikawa yitaweho neza cyae igakorerwa ku gihe, iri hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakazajya bazinywa.

Ibibiriganya bimeze neza cyane, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibigori byahinzwe neza cyane, bigakorerwa ku gihe bigatanga umusaruro ushimishije, bakawusarura bakajya kuwanika kugira ngo bazawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere no mu buhinzi bwabo, ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka maze babirye.

Ibirayi byahinzwe neza cyane n'abahinzi, bakabyitaho bakabikorera neza ku gihe, bakabiha ifumbire ihagije kugira ngo bitange umusaruro ushimishije, maze bazawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwiteza imbere no gukemuza ibindi bibazo. Ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Inkwavu zitaweho neza cyane, zigakura neza zishimishije, maze zigatanga umusaruro mwiza, bakazijyana ku isoko kuzigurisha, bakabona amafaranga yokukwifashisha bakemura ibindi bibazo, ayandi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Abaturage bishimye cyane bikoreye kawa zabo bavuye gusarura, kugira ngo bazijyane ku ruganda bajye kubagurira babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bayajyane kuri banki kwiteza imbere ,ayandi bayashore mu buhinzi bwabo kugira ngo bubashe gutera imbere, ikindi bakijyane mu rugo bajye barakinywa.

Imifuka irimo amasaka, ibishyimbo n'ibigori, aho bajya bajyana ku isoko, bigatanga umusaruro ushimishije, kuri ba nyirabyo babihinze.

Ibipapayi byahinzwe neza cyane bikitabwaho, bigatanga umusaruro ushimishije, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babirya.

Oranje zahinzwe neza cyane zikitabwaho ku gihe zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Urusenda rwahinzwe neza cyane rukitabwaho ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakarujyana ku isoko kurugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no kwagura ubuhinzi bwabo maze bakiteza imbere.

Ibigori byahinzwe neza ku gihe bikitabwaho, kugira ngo bitange umusaruro ushimishije bagujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibibazo bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Inkoko zitaweho neza cyane ,zikagaburirwa ku gihe kugira ngo zitange umusaruro ushimishije . Ifumbire bifashisha mu buhinzi kugira ngo babone umusaruro ushimishije. Amagi n'inyama bateka maze bakabirya bakagira ubuzima bwiza.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, kugira ngo bitange umusaruro mwiza ushimishije, maze bazawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibibazo bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka maze babirye.

Indimu zeze neza cyane ,zigatanga umusaruro ushimishije cyane, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga ashimishije yo kwifashisha mu bindi bakeneye, ayandi bakayajyana kuri banki kuteza imbere, ayandi bakayajyana mu rugo bakayarya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije; bakawujyana ku isoko kuwugurisha kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, no mu buhinzi; ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka babirye.

Oranje zeze neza cyane zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga ashimishije mu gukemuraza ibibazo bitandukanye, bakayajyana muri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya bazirya.

Igiti cya avoka cyitaweho neza cyane kugira ngo kizatange umusaruro ushimishije, maze bajye ku isoko babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye ,ayandi bayajyane muri banki kwiteza imbere izindi bazijyane mu baje barazirya.

Amatunda yahinzwe neza agakorerwa neza, ari hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye mu iterambere ryabo n'ubuhinzi, ayandi bakayajyana mu rugo, bakajya bayarya.

Inanasi zezeye neza cyane, zitaweho ku gihe, zigatanga umusaruro ushimishije, maze bakazijyana ku isoko kuzigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki, izindi bakazijyana mu rugo bakajya bazirya.

Puwavuro zahinzwe neza cyane ku gihe, zikorerwa neza maze zitanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, ayandi bakayajyana muri banki kuyabitsa bakiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baraziteka maze bakazirya.

Imiteja yitaweho neza cyane, maze ikera igatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana muri banki, bakajya kwiteza imbere. Indi bakazijyana mu rugo bakajya barayiteka maze bakayirya.

Inyanya zitaweho neza cyane ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga bwo kwifashisha, bakayakemuraza ibibazo bitandukanyeg, bayajyana muri banki kwiteza imbere, izindi bakazijayna mu rugo, bakajya baraziteka maze bakazirya.

Icyayi kimeze neza cyitaweho ku gihe, maze kigatanga umusaruro ushimishije, maze bakawusoroma bakawujyana ku isoko, bakawugurisha maze bakabona amafaranga yokwifashisha mu bintu bitandukanye, bakayajyana muri banki kwiteza imbere, ikindi bakakijyana mu rugo bakajya kukinywa.

Ibitunguru byeze neza cyane, bakabijyana ku isoko kubigurisha, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye bakiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya babiteka maze bakabirya.

Avoka zahinzwe neza cyane zikitabwaho zigatanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, izindi bazijyane mu rugo bajye barazirya.

Puwavuro n'intoryi byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibigori bimeze neza cyane buhira amazi bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwucuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakemuza ibindi bibazo bafite andi bakayajyana muri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Puwavuro zahinzwe neza cyane zikitabwaho ku gihe, zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga, yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Ingurube zitaweho neza cyane zishishe, ziri mu kiraro gifite isuku cyubakiwe neza cyane, maze zigatanga umusaruro ushimishije, ifumbire abahinzi bifashisha bari guhinga maze bakagira umusaruro mwiza, maze bakazijyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo.

Ibitunguru bitanditse ku mufuka, bacuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha bagura ibindi bakeneye, ayandi bakayajyana muri banki maze bakiteza imbere, bityo bakabaho bishimye banezerewe cyane.

Icyayi cyitaweho neza cyane kigatanga umusaruro ushimishije, bari kugisoroma kugira ngo bakijyane ku isoko kukigurisha, maze babone amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo, andi bayajyane muri banki biteze imbere.

Amapera ari hafi gutanga umusaruro bakayajyana ku isoko kuyacuruza, maze bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibibazo bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki, ayandi bakayajyana mu rugo kuyarya.

Abahinzi bari kuhira ibirayi, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, maze bawujyane ku isoko kugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha, ayandi bayajyane muri banki kwiteza imbere, ibindi babijyane mu rugo, bajye barabiteka maze babirye.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije. Bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Ibihaza byahinzwe neza cyane, bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no mu iterambere rya bo, ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya barabiteka, maze bakabirya.

Ibitoki byahinzwe neza cyane, bigatanga umusaruro ushimishije bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Imyumbati yitaweho neza cyane， igakorerwa ku gihe igatanga umusaruro ushimishije， bakawujyana ku isoko kuwugurisha，bakabona amafaranga yo kwifashisha， bakemura ibindi bibazo bitandukanye， izindi bakazijyana mu rugo， bakajya baraziteka maze bakazirya.

Imyumbati yahinzwe neza cyane igakorerwa ku gihe, kugira ngo itange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo. Iyindi bayijyane mu rugo bajye barayiteka maze bayirye.

Amateke yahinzwe neza cyane, cyane akitabwaho agakorerwa, ku gihe atanga umusaruro ushimishije maze bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, andi bakayajyana muri banki, kwiteza imbere andi bakayajyana mu rugo bakajya barayateka maze bakayarya.

Ibigori byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Inyanya zahinzwe neza cyane zikitabwaho, ku gihe zigatanga umusaruro ushimishije, bakawupakira mu bitebo, kugira ngo bawujyane ku isoko kuwurisha babone amafaranga, yokwifashisha, andi bayajyane muri banki kwiyiteza imbere, izindi bazijyane mu rugo, baje baraziteka maze bazirye.

Abahinzi bishimye cyane kubera umusaruro ushimishije bari gukura mu mirima yabo, bityo bakabijyana ku isoko, kubigurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabijya.

Abahinzi bameze neza cyane bishimye. Irutoki rumeze neza ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije maze bakawujyana ku isoko kugurisha, bakabona amafaranga atandukanye yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabirya

Ibijumba byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, maze bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, bakayajyana kuri banki, maze ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babiteka maze bakabirya.

Amapera yahinzwe neza, akitabwaho, ari hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya bayarya.

Ibihaza byahinzwe neza cyane bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugugurisha, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bayajyane kuri banki kwiteza imbere, ibindi babijyane mu rugo, bajye barabiteka maze babirye.

Abaturage bambaye neza cyane bishimye baje kwiga ku buryo bahinga igihingwa cy'imyembe ,maze kigatanga umusaruro ushimishije maze bakawujyana ku isoko, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere, indi bakayijyana mu rugo bakajya barayirya.

Icyayi cyitaweho neza cyane kigatanga umusaruro ushimishije. Bari gusoroma kugira ngo bawujyane ku isoko, maze babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, andi bayajyane muri banki kwiteza imbere. Ikindi bakijyane mu rugo, bajye baragiteka maze bakinywe.

Avoka zahinzwe neza cyane zikitabwaho ku gihe, zigatanga umusaruro ushimishije maze bakawushyira mu bikoresho byabugenewe kugira ngo bawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no mu buhinzi bwabo, ayandi bayajyane muri banki kwiteza imbere, izindi bazijyane mu rugo bajye bazirya.

Abahinzi bambaye neza cyane, bafite amasuka bari guhinga imirima yabo, kugira ngo bazabone, umusaruro ushimishije biteze imbere, ibitoki biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, nayo kujyana muri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijyanana mu rugo, bakajya kubirya.

Ibidodoki basutse ku mufuka hasi bacuruza maze bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, no kwiteza imbere ibindi bakabijyana mu rugo bakajya babijya.

Abahinzi bavuye gusarura kawa bishimye cyane bayigemuye ku ruganda, maze bakabona amafaranga ashimishije yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, iyindi bakayijyana mu rugo bakajya bayiteka bakayinywa.

Avoka zahinzwe neza cyane, zigakorerwa ku gihe, ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakazijyana ku isoko kuzigurisha, barabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Amapera ahinzwe neza cyane, agakorerwa ku gihe, atanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ritandukanye, andi bakayajyana mu rugo bakajya barayarya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane, byitabwaho ku gihe bitanga umusaruro ushimishije, bawushyira mu mifuka kugira ngo bawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye babirya.

Avoka zitaweho neza cyane, ziri hafi gutanga umusaruro ushimishije ,maze bakazijyana ku isoko kuzigurisha, bakabona amafaranga o kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Amatunda ahinzwe neza akitabwaho atanga umusaruro ushimishije, maze bakayajyana ku isoko kuyagurisha bakabona amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayarya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe bigatanga umusaruro ushimishije, bakawupakira mu mifuka kugira ngo bawujyane kuwugurisha maze babone amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Amateke n'ibijumba byahinzwe neza cyane bigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kugurisha, maze bakabona amafaranga kukwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana muri banki kwiteza imbere. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Isoko ricururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, gombo, puwavuro, ibirayi n'ibindi bifashisha mu rugo, maze abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana muri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo maze bakajya babirya.

Abahinzi bishimye bari mu murima w'ibirayi byahinzwe neza cyane, bigakorerwa ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha biteza imbere ibindi bakabijyana mu rugo, bakajya barabiteka maze bakabirya.

Ibirayi byahinzwe neza cyane ,bigatanga umusaruro ushimishije, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bafite. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya bararabiteka, maze bakabirya.

Abahinzi bahinga, bari mu mahugurwa mu murima w'amashu, uko bayakorera n'uko bayitaho kugira ngo abashe gukura neza cyane, atange umusaruro ushimishije maze haboneke ibiryo bihagije, abantu bazajya barya.

Avoka zahinzwe neza cyane zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bakeneye, ayandi bakayajyana muri banki kwiteza imbere. Izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Ibigori byahinzwe neza cyane ku gihe, bigakorerwa ku gihe, kugira ngo bizatange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ritandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka, maze babirye.

Urusenda rwahinzwe neza rukitabwaho ku gihe, ruri hafi gutanga umusaruro ushimishije, kugira ngo bazawujyane ku isoko kuwugurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, urundi barujyane mu rugo bajye barurya.

Karoti zahinzwe neza cyane zikitabwaho ku gihe, zigatanga umusaruro ushimishije bakazipakira mu mifuka kugira ngo bajye kuzigurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bayajyane muri banki kwiteza imbere, izindi bazijyane mu rugo bajye bazirya.

Amatunda yahinzwe neza cyane kugihe agakorerwa neza, atanga umusaruro ushimishije bawujyana ku isoko kuwugurisha, kugira ngo babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, no mu iterambere ryabo andi bayajyane mu rugo bajye barayarya.

Inzu icurururizwamo ibyo kurya bitandukanye, imineke, ubuki n'ibindi, elayo bifashisha bari guteka, ji banywa, n'amazi, bityo bakamererwa neza cyane, n'abacuruza bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakaniteza imbere.

Ibirayi byahinzwe neza cyane, bigakorerwa ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakabipakira mu mifuka kugira ngo babijyane ku isoko kubigurisha, babone amafaranga ahagije yo kwifashisha mu buhinzi bwabo no gukemura ibindi bibazo bitandukanye, ibindi babijyane mu rugo bajye babiteka, maze babirye.

Ibigori bimeze neza cyane cyane, byitaweho neza ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, kandi bakayajya kuri banki, kwiteza imbere ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Amapera yahinzwe neza cyane, akitabwaho ku gihe agatanga umusaruro ushimishije, bakayajyana ku isoko kuyagurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, andi bakayajyana kuri banki, andi bakajyana mu rugo, bakajya barayarya.

Imyumbati yahinzwe neza cyane ikitabwaho ku gihe, igatanga umusaruro ushimishije ,bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye, iyindi bakayijyana mu rugo bakajya bayiteka maze bakayirya.

Ibinyomoro byitaweho neza cyane, bigakorerwa ku gihe, maze bigatanga umusaruro ushimishije, bakabijyana ku isoko kubigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bintu bakeneye, andi bakayajyana kuri banki kwiteza imbere, ibindi bakabijyanna mu rugo bakajya barabirya.

Ibishyimbo byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, biri hafi gutanga umusaruro ushimishije, bakawujana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye, ayandi bakayongera mu buhinzi bwabo, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka, maze bakabirya.

Intoryi zahinzwe neza ku gihe zikitabwaho neza zigakorerwa, zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ritandukanye. Izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Ikawa yitaweho neza cyane igakorerwa ku gihe, maze igatanga umusaruro ushimishije, bakayisoroma kugira ngo bayijyane ku isoko kuyigurisha, maze babone amafaranga yo gukemuza ibindi bibazo, kandi bayajyanane muri banki kwiteza imbere, ikindi bakijyane mu rugo bajye baragiteka, maze bakinywe.

Indimu zahingiwe ku gihe, zikitabwaho neza, zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, bakemuza ibindi bibazo no mu iterambere ryabo, izindi bakazijyana mu rugo bakajya barazirya.

Abahinzi bari gutegura imirima yabo kugira ngo bazahingemo imyaka babone umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kugurisha babone amafaranga yo kwifashisha, andi bayajyane muri banki, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibijumba byeze neza cyane bigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga ahagije yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, ayandi bakayajyana kuri banki, kwiteza imbere, ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Imiteja yahinzwe neza cyane, igakorerwa ku gihe igatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu iterambere ryabo, bakemura n'ibibazo bitandukanye, iyindi bakayijyana mu rugo, bakajya bayiteka maze bakayirya.

Imyumbati yeze neza cyane igatanga umusaruro ushimishije, bakayijyana ku isoko bakajya kuyicuruza kugira ngo babone amafaranga, bayakemuze ibibazo bitandukanye, andi bayajyane muri banki kwiteza imbere. Iyindi bayijyane mu rugo bajye barayiteka maze bayirye.

Ibigori byitaweho neza cyane bishishe biri hafi gutanga umusaruro maze bakazawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, andi bakayajyana muri banki ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabiteka maze bakabirya.

Kokombure zitaweho neza cyane zigakorerwa ku gihe, zigatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baraziteka mu mazi maze bakazinywa.

Ibirayi byahinzwe neza cyane bikitabwaho ku gihe, bigatanga umusaruro ushimishije, bakawupakira mu mifuka kugira ngo bajye kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, ayandi bayajyane mu buhinzi bwabo, ayandi bayajyane muri banki kwiteza imbere, ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Ibishimbo byabitswe neza mu mufuka kugira ngo bitangirika maze bazabijyane mu murima bajye kubitera babone umusaruro ushimishije, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, babone n'ibiryo bazajya bajya.

Ibigori byasaruwe bikabikwa neza, bikanikwa kugira ngo byume bakabishyira mu mifuka, kugira ngo bitangirika maze bakazabijyana mu mirima bakajya kubitera, maze bigatanga umusaruro ushimishije abahinzi bakabona amafaranga. Ibindi bakabijyana mu rugo bakajya barabirya.

Umuntu uri gutoranya imbuto yo gutera, kugira ngo hatazajyamo imyanda, bityo bazajye kuyitera itange umusaruro ushimishije, babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibibazo bitandukanye babashe kwiteza imbere.

Ibigori byanitse ku mbuga maze bikuma neza cyane, bakabigosora, bakabibika mu mifuka bimeze neza cyane kugira ngo bazabyifashishe mu gihe cy'itera, maze bazabone umusaruro ushimishije, biteze imbere babone n'ibyo kurya.

Amasaka ahinzwe neza cyane agakorerwa ku gihe ari hafi gutanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayakoramo ubushera n'inzoga maze bakabinywa.

Ibishyimbo bari gutoranya kugira ngo bakuremo ibyapfuye, maze babibike neza, bazajye kubitera mu mirima yabo, babone umusaruro ushimishije, babone n'amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye.

Ibigori byanitswe neza cyane maze bikuma, bakabishyira mu bikoresho bitandukanye, kugira ngo bazabyifashishe bari guhinga, maze bazabone umusaruro ushimishije, babone amafaranga yo kwifashisha bari gukemura ibindi bibazo, ibindi babijyane mu rugo bajye barabirya.

Amajeri yeze neza cyane, yitaweho neza, agatanga umusaruro ushimishije, bakawujyana ku isoko kuwucuruza, maze bakabona amafaranga ahagije yo kwifashisha mu bindi, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya kuyateka maze bakayarya.

Imbuto y'ibirayi yabitswe neza zikitabwaho neza kugira ngo zidapfa, zikajyananwa mu mirima bakajya kuzitera, kugira ngo babone umusaruro ushimishije, maze babone amafaranga yo kwifashisha mu iterambere.

Ibishyimbo bimeze neza, byabitswe neza mu mifuka kugira ngo bitangirika, maze bazajye kubihinga, maze bitange umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko babone amafaranga. Ibindi babijyane mu rugo bajye kubiteka babirye maze biteze imbere.

Ibishyimbo byabitswe neza cyane kugira ngo bazajye kubitera mu mirima, maze babone umusaruro ushimishije, bawujyane ku isoko kuwugurisha, babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, no mu buhinzi. Ibindi babijyane mu rugo bajye barabiteka maze babirye.

Amashaza yahinzwe neza cyane akitabwaho, ageze igihe cyo gutanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kuwugurisha bakabona amafaranga yo gukemuza ibindi bitandukanye ,abandi bakajyana mu rugo bakajya barayajya, bakayabika neza kugira ngo bazabone n'imbuto zo gutera mu gihe gitaha.

Umurima w'amasaka ahantu hanini cyane, ubona ko no ku ruhande hari ibishanga. Amasaka ameze neza cyane bazajyana ku isoko agatanga umusaruro k'uwayahinze.

Amashaza ahinzwe neza cyane akitabwaho, agakorerwa ku gihe, ari hafi gutanga umusaruro ushimishije, maze bakawujyana ku isoko kuwugurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye no mu iterambere rya bo, ayandi bakayajyana mu rugo bakajya barayateka, maze bakayarya.

Ihene zitaweho neza cyane zikagaburirwa ku gihe, zigahabwa imiti izirinda uburwayi, zigatanga umusaruro ushimishije bakawujyana ku isoko kuwugurisha, izindi bakazijyana mu rugo bakajya baziteka maze bakazirya.

Ikiraro cy'ingurube gikoze neza cyane kibamo ingurube, bakaziha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bazirinde uburwayi, maze zitange umusaruro ushimishije bawujyane ku isoko, babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye, babone n'inyama zo kurya.

Inka zimeze neza cyane ,zitabwaho neza zikagaburirwa ku gihe, zigahabwa ubuvuzi ,kugira ngo buzirinde uburwayi maze, zitange umusaruro ushimishije babone amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo bitandukanye.

Inka zimeze neza cyane, ziri mu kiraro gifite isuku gikoze neza cyane. Abaganga bita ku nka kugira ngo bazivure bizirinde uburwayi, bityo zitange umusaruro ushimishije maze batere imbere.

Ikiraro cyubakiwe neza cyane gifite isuku inka zibamo, maze bakazitaho bakaziha n'ubuvuzi, bityo zikabaho neza nta ndwara, zigatanga umusaruro ushimishije cyane, bigafasha aborozi kwiteza imbere.

Ihene zitaweho neza cyane, ziri mu kiraro cyiza, gifite isuku, zihabwa imiti yabugenewe, kugira ngo zizirinde uburwayi, maze zitange umusaruro mwiza ushimishije cyane.

Inka zitabwaho n'abaganga, kugira ngo zigire ubuzima bwiza buzira uburwayi , maze zitange umusaruro ushimishije, maze bazijyane ku isoko kuzigurisha babone amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, maze biteze imbere.

Imishwi yitabwaho n'abaganga kugira ngo imererwe neza cyane, bayihe aborozi bajye kuyorora maze biteze imbere, babone umusaruro ushimishije bawujyane ku isoko babone amafaranga, yo kwifashisha mu bintu bitandukanye, izindi bajye baraziteka bazirye bagire ubuzima bwiza.

Ingurube zitaweho neza cyane, zisa neza cyane, ziri mu kiraro, abaganga bitaho bakazivura, maze zikagira ubuzima bwiza, zigatanga umusaruro ushimishije, bakazijyana ku isoko kuzigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha, izindi bakazijyana kuzirya.

Inzu ikoze neza cyane ifite isuku, abaganga bambaye imyenda yabugenewe n'ibikoresho byabugenewe bifashisha bari kuvura, maze abarwayi bakongera kuba bazima bakishima, bakanezererwa cyane.

Inka zitabwaho n'abaganga kugira ngo zitagira uburwayi. Maze zigatanga umusaruro ushimishije. Bakabona amafaranga yo kwifashisha bakemura ibindi bibazo, maze bakiteza imbere.

Abaganga b'amatungo bambaye imyenda yabugenewe. Bafite ibikoresho byabugenewe kugira ngo bakingire Inka, zitange umusaruro ushimishije. Bityo haboneke amafaranga yo kwifashisha n'ibiryo byo kurya.

Inkoko zitaweho neza cyane zimeze neza, zihabwa imiti kugira ngo izirinde uburwayi, maze zitange umusaruro ushimishije, ifumbire yo kwifashisha bari guhinga, amagi n'inyama barya, maze bakamererwa neza cyane.

Ikiraro gikoze neza cyane, gifite isuku, bororeramo ingurube maze zikamera neza, bakazijyana ku isoko kuzigurisha, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu buzima busanzwe, izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuzibaga, maze bakaziteka bakazirya.

Ingurube zimeze neza cyane ziri mu kiraro gikoze neza cyane, zitabwaho n'abaganga kugira ngo bazihe imiti izirinda uburwayi, maze zitange umusaruro ushimishije, ifumbire yo kwifashisha mu buhinzi, n'inyama bateka maze bakazirya.

Ingurube zitaweho neza cyane zigahabwa inkingo zizirinda uburwayi, kugira ngo zitange umusaruro ushimishije, ifumbire bifashisha bari guhinga, inyama barya maze bakamererwa neza cyane.

Inka zitaweho neza cyane zishishe, zigaburirwa ku gihe zikabona ubuvuzi kugira ngo buzirinde indwara, maze zikure neza cyane zitange umusaruro ushimishije, maze ba nyirazo babone amafaranga yo kwifashisha bakemuza ibindi bibazo, biteze imbere.

Ikiraro gikoze neza cyane, cyubakishije ibiti, gisakajwe amabati, gifite aho ingurube zinywera amazi kugira ngo zimere neza cyane, maze zizatange umusaruro ushimishije, maze bazijyane ku isoko kuzigurisha babone amafaranga, izindi bajye barazirya.

Inka zimeze neza cyane zitabwaho ku gihe zikagaburirwa neza, bakaziha ubuvuzi bw'ibanze kugira ngo bazirinde ubugwayi, maze zigatanga umusaruro ushimishije, bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi bitandukanye.

Inka yitabwaho n'abaganga mu bihe bitandukanye, maze bikayirinda uburwayi, maze bigatanga umusaruro bushimishije, bakabona amafaranga yo gukemu ibibazo bitandukanye maze bakiteza imbere.

Abaganga bambaye imyenda yabugenewe bari guha ubuvuzi ingurube, kugira ngo zimererwe neza cyane bizirinde uburwayi maze zibashe gutanga umusaruro ushimishije, maze ba nyirazo biteze imbere.

Akanyana kameze neza cyane, gafite isuku, abaganga bitaho maze kakazatanga umusaruro ushimishije, bakakajyana ku isoko, kukagurisha bakabona amafaranga yo kwifashisha mu bindi, kakanatanga inyama bateka maze bakazirya.

Inka zitabwaho neza cyane zimeze neza zigaburirwa ku gihe zigahabwa imiti izirinda uburwayi, zigatanga umusaruro ushimishije, ifumbire bifashisha bari guhinga, amata, n'inyama barya maze bakamererwa neza bakabona n'amafaranga abafasha mu iterambere.

Igikuyu bororeramo inka maze zikitabwaho neza cyane, bakaziha ubuvuzi bw'ibanze, bukazirinda kurwara maze zigatanga umusaruro ushimishije, bakabona amafaranga yo gukemuza ibibazo bitandukanye, izindi bakazijyana mu rugo bakajya kuzirya, bagateka inyama, bakanywa n'amata, bakamererwa neza cyane.

Inzovu isa neza, ifite isuku, ba mukerarugendo basura, maze pariki zikabona amafaranga yo kwifashisha mu bintu bitandukanye biteza imbere abaturage n'igihugu cyabo, ibiti bitanga umwuka bahumeka.

Inyoni zimeze neza cyane zibangurira imyaka, maze imyaka ikera neza cyane maze bigatuma twiteza imbere, tukabona n'ibyo kurya bihagije.